Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo umuhondo, umutuku, umukara, icyatsi, ubururu ndetse n'andi atandukanye bicaye mu nzu mberabyombi nini, ifite amatara menshi ndetse na purafo isa umweru ndetse bicaye no ku ntebe z'umutuku.

Abantu babiri harimo umugabo n'umugore, umugore yambaye ishati y'umukara, umugabo yambaye ikositimu y'irungu ishati y'ubururu, imbere yabo hateretse mudasobwa ya terefone, ndetse n'amazi yo kunywa, bicaye mu ntebe z'umukara kandi imbere yabo hari utwatsi tw'imitako.

Abantu benshi bicaye ahantu hasa umutuku, bicaye ku ntebe z'umweru, harimo abagore n'abagabo batandukanye, imbere yabo hari umugabo wambaye uniforome y'igihugu y'abapolisi, impande yaho hari n'undi mugabo wambaye ijire isa girini.

Abantu bicaye ari benshi bambaye imipira y'umweru harimo abagore n'abagabo, imbere yabo bahagaze umugore umwe wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ijiri y'umukara, hirya yaho hariho ibyapa biri mu ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bicaye bateranye harimo abagabo n'abagore, harimo umugabo umwe uhagaze ufite agakoresho karangurura amajwi uri kubabwira, bicaye ku ntebe z'umweru ndetse n'imeza ziteretseho amazi.

Abantu batandukanye bicaye harimo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza y'ikigina n'umukara ateretseho amakayi, amatelefone, amakaramu ndetse n'amazi yo kunywa, imbere yabo hari televiziyo ya rutura iri kugaragaza ibyo bari kuganiraho.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Abagabo benshi bicaye, bicaye imbere yabo hari amazi ndetse n'uturangurura majwi, bamwe muribo imbere y'abo hateretse za mudasobwa kandi byose biteretse ku meza y'umutuku, abo bagabo bambaye amakoti y'amabara atandukanye.

Abantu bicaye harimo abahungu n'abakobwa, umukobwa yambaye umupira w'umuhondo afite ikaramu ari kwandika mu ikayi, iruhande rwe hari icupa ry'amazi afite imisatsi y'umukara yambaye'amadarubindi.

Icyumba kirimo abantu icyenda, umunani muri bo baricaye, undi umwe arahagaze yambaye amadarubindi n'ishati y'umweru, isaha, bicaye ku ntebe z'umukara, bari mu nama.

Abantu batandukanye bicaye hamwe batandukanye bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hari imeza z'umukara kandi birabara amazi yo kunkuywa bafite n'amatelefoni hariyo na televiziyo ya rutura iri inyuma y'abari kurebana n'abandi harimo minisitiri wahoze ari uw'uburezi uwamariya valentine.

Abantu benshi bicaye ahantu hafite isima y'umutuku iruhande hateye amarangi y'umuhondo bicaye bambaye imyenda itandukanye, harimo abagore bitandiye mu mutwe, ndetse n'abambaye imyenda y'ubururu umukara umutuku ndetse n'icyatsi.

Icyumba cyicayemo abantu batandukanye bambaye amakositimu y'umukara, ndetse umwe muri bo arahagaze afite ikirangururamajwi, inyuma yabo hariho icyapa kinini gisa ubururu cyandikijweho amagambo y'umweru hariho n'ikirangantego cy'igihugu.

Umugore uhagaze wambaye ipantaro y'ikigina ndetse n'ikote ry'umweru wambaye amadarubindi, afite ururangururamajwi ari kubwira abantu bicaye imbere ye, harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umupira w'umweru kandi inyuma ye hari ibyapa bitandukanye bisa umweru.

Abagabo babiri bicaye, umwe yambaye ishati y'umweru, undi nawe yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikositimu y'ubururu, bicaye ku ntebe z'umukara impande yabo hari amazi ndetse n'imeza y'ikigena, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyaditseho n'amagambo y'umweru.

Abantu benshi batandukanye bicaye ahantu hamwe, harimo abagabo n'abagore, abagabo barimo, abenshi bambaye amakositimu y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse mu cyumba kirimo amakaro y'umweru, imbere yabo hateretse ibirangururamajwi, amazi ndetse na za mudasobwa.

Abantu batandukanye bicaye hamwe harimo abagabo benshi bambaye amakositimu asa umukara, ikigina ndetse n'ubururu bose bicaye imbere yabo ari imeza y'umukara harimo abafite amazi yo kunywa.

Muri iyi foto harimo haragaragara abagabo babiri umwe wambaye ishati y'umweru n'undi wambaye ikote, ku meza hariho ikinyobwa cy'amazi cy'uruganda Inyange indasitirizi, inyuma haragaragara nk'aho hari ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Abantu benshi bateranye bicaye harimo abagore n'abagabo inyuma yabo hariyo ibyuma bifata amashusho bicaye ku ntebe z'umukara benshi muri bo bafite mudasobwa imbere yabo kandi imbere hariyo abandi bantu bicaye bari kubareba.

Abagabo batandukanye bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo ku meza hari ufite mudasobwa, undi afite agatabo n'imbere yabo hariho uturangururamajwi ndetse n'amazi, inyuma yawo hariho n'umugabo uhagaze wambaye ijire y'icyatsi uri gufotora.

Abantu benshi bateranye bicaye mu nzu imbere yabo hari tereviziyo iri kwaka, bicaye ku ntebe zigiye gusa ikigina n'ameza asa ikigina, imbere yabo hateretse mudasobwa n'amazi ndetse n'udupapuro dutandukanye.

Abantu benshi bicaye bari mu nama harimo abagabo bambaye amakote y'amakositime afite amabara atandukanye harimo ay'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru, bicaye ku ntebe z'umukara, ku meza y'ikigina, imbere yabo hari uturangururamajwi na za mudasobwa.

Abantu bicaye batandukanye harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hateretse za mudasobwa ndetse n'amazi n'ibitabo bitandukanye, hari n'undi uhagaze wambaye ishati y'umweru uri kubasobanurira imbere.

Abantu benshi bicaye mu nzu nini ifite amatara ari kwaka na parafu y'umweru bicaye ku ntebe imbere yabo hari meza na za mudasobwa harimo abagabo bambaye ikositimu n'abagore batandukanye.

Abantu batandukanye bicaye hamwe harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari mudasobwa; bamwe bafite telefoni abandi bafite amakaramu mu ntoki, undi igitabo kimuteretse imbere abandi amazi abateretse imbere.

Abantu bicaye harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imbaho zisa ikigina, bicaye ku meza ziriho ibitambaro bisa umweru n'ubururu, hari ubahagaze imbere wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara uri kubavugisha.

Abantu bicaye mu nzu harimo ibyapa bisa ubururu hariho idarapo ry'igihugu bisize irangi ry'umweru bamwe muri bo bambaye imipira y'umuhondo abandi bambaye imyenda y'ubururu hose.

Abantu benshi batandukanye bicaye harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda irimo ikigina, umweru, umutuku ndetse bambaye n'amadarubindi. Bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ifite igitambaro cy'umweru ndetse hateritseho n'amazi yo kunywa.

Abagabo benshi bambaye amakositimu harimo asa umukara, ubururu, inshage ndetse n'icyatsi, harimo n'abagore bambaye imikenyerero bafite n'utundi bambaye mu ijosi dusa umuhondo, ni benshi bateranye bari mu ihema ry'umweru.

Abagabo batandukanye bicaye bambaye amakositimu y'ubururu, hasi harasa ubururu, impande yabo hari n'abagore batandukanye, inyuma yabo hari abantu bahagaze bari kugendagenda mubandi ndetse n'ibipapuro birebire bihagaze biri kwamamaza.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

Abantu benshi batandukanye bicaye, ahantu bicaye hari intebe z'umukara ndetse n'ameza y'umukara, ariho ibintu byateguwe, harimo udukombe tw'umweru ndetse n'ibyo bakarabisha mu ntoki mbere y'uko basuhuzanya, abagabo benshi barimo bambaye amakositimu.

Iibiri ibura kugira ngo abatarishyura umusoro ku nyungu ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane bazabe barangije kwishyura umusoro ku nyungu.

Ni igipapuro cy'umweru n'ubururu cyanditseho amagambo asa umweru n'ubururu kigaragaza uko wakwisabira imitatisiyo waguze ikinyabiziga muri cyamunara.

Inzu ifite icyapa hejuru cyanditseho irembo ofisho ajenti gurupe gisa ubururu ndetse n'amagambo y'umweru hariho ifoto y'umwana hasi ye hariho ikindi gicuruzwa cy'ubururu gifite imiryango y'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umuryango urimo imiryango ibiri usa umuhondo wanditseho ijambo irembo, uri ku makaro y'umweru impande yaho hari aho bajugunya imyanda ndetse hari n'icyuma gikora impapuro kikazisubiramo gisa umweru naho handitseho irembo.

Urupapuro rw'ubururu rurimo imodoka rwanditseho amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo avuga ngo kuzamura abakozi gukora mu mwanya wo gutwara harimo ibikenerwa kugira ngo akore ako kazi ndetse n'ibyo bazitwaza.

Abantu batandukanye bicaye hamwe bambaye imipira y'umukara n'umweru harimo uwambaye ingofero na babiri bambaye amadarubindi, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse n'imbaho, imbere yaho hateretse za mudasobwa bisa nkaho bari mu nama.

Urupapuro rusa ubururu harimo n'agace gasa umweru; harimo n'akamenyetso kafite ibara ry'umuhondo ndetse n'akabazo gafite ibara ry'ubururu; handikishijweho amagambo y'umweru.

Inzu ifite imiryango itatu yose imiryango irafunguye, imiryango imwe iriho ibara ry'icyatsi n'umweru handitseho amagambo avuga ngo RURA indi iriho ibara ry'icyatsi n'akandi gapapuro k'ubururu, indi miryango ibiri iriho ibara ry'ubururu kandi yandikishijwe amagambo y'umweru.

Ikirere gifite igicu cy'ubururu ndetse n'igicu cy'umweru, hasi hari umunara muremure cyane, ufite amabara y'umutuku, umweru, ndetse n'umuhondo, ukikijwe n'ibiti nabyo birebire bifite amashami menshi ananutse afite amababi y'icyatsi.

Inzu nini izengurutse ifite ahantu hayegereye hasa umweru, ikikijwe n'ibiti by'icyatsi ndetse n'umuhanda urimo imirongo y'umweru, hasi yaho handitse ngo shora mu Rwanda, impamvu washora mu Rwanda, gukorera ubushabitsi mu Rwanda n'uburyo bwo gutangira ubushabitsi.

Urupapuro rw'ubururu n'umweru ruriho ikiganza gifite telefone, ihamagawe na nimero itazwi hariho amagambo avuga ngo muramenye abatekamutwe barahari niba umuntu aguhamagaye akubwira ngo reba amafaranga asigaye kuri konte yawe mobayiro mani, tekereza kabiri mbere y'uko ushyiramo umubare w'ibanga.

Igipapuro gisa ubururu cyandikishijweho amagambo y'umweru n'umuhondo, hasi hariyo ikirango cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti ,amagambo yanditseho aravuga uti iminsi ibiri ibura kugira ngo abantu basoze kwishyura imisoro.

Urupapuro rusa ubururu, imbere yaho hari mudasobwa icanye isa umweru n'umukara kandi kuri urwo rupapuro hariho amagambo atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo, bari kuvuga ngo uko wahindura umubare w'ibanga.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umweru umwe yambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umweru. Imbere ye hateretse mudasobwa icanye isa umukara. Iteretse ku meza isa ikigina. Iruhande rwe hari umukobwa ufite imisatsi miremire na we ufite mudasobwa imbere ye.

Amapoto menshi ari ku murongo afite insinga zoza amashanyarazi iruhande rwawo hariho ibyapa bitandukanye harimo icyapa cyamamaza banki yitwa ecobank hari n'indi i yamamaza icyuma gifasha abantu kwikuza amafaranga ahitiyemo.

Umugore wirabura ufite imisatsi miremire wambaye amaherena ufite telefone ndetse na mudasobwa imbere ya mudasobwa irasa umukara, imbere yaho harasa umweru na terefone imbere harasa umweru ndetse n'ubururu.

Urupapuro rugaragaza urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, aho rusa umweru n'ubururu bigaragaza aho umuntu yinjirira kugira ngo yinjire muri sisitemu yabo.

Urupapuro rusa ubururu ruriho intoki ziri kwandika kuri mudasobwa, hariho amagambo avuga ngo uburyo ki wakohereza ibintu kuri murandasi, ukoresheje mudasobwa.

Urupapuro rugaragaza inshange ya banke ishinzwe iterambere ryigihugu be eride igaragaza uburyo ki, abanyeshuri bakoresha basaba inguzanyo yo kwiga mu kigo k'igihugu gishinzwe kaminuza.

Urupapuro rusa umweru ruriho utuntu dutandukanye dufite amabara, harimo: ay'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, handitseho amagambo yanditse avuga ngo: ara ara eyi, bisobanuye ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cy'igihugu, Rwanda Reveni Otoriti.

Umugabo wambaye ikositimu y'ubururu n'ishati y'umweru n'umugore witangiriye ibintu by'umukara witwa Batamuriza Hajara bari k'urupapuro rw'ubururu ruri kugaragaza ibikorwa bibera mukigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority.

Abantu benshi bicaye mu byiciro aho harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, harimo uwambaye imyenda y'umweru ndetse n'ubururu bicaye ku ntebe z'umuhondo n'amameza abari imbere asa umuhondo kandi hateretseho mudasobwa zisa umukara zicanye.

Ingengabihe yo kwigira kuri Radiyo, guhera ku itariki makumyabiri kugera kuri makumyabiri nesheshatu z'ukwezi kwa kane ibihumbi binbiri na makumyabiri, igaragaza ukuntu abanyeshuri biga mu byiciro bitewe n'aho bari nuko baziga mu cyumweru cyose uko kimeze.

Abantu batandukanye bicaye harimo abakobwa harimo n'umwana umwe wambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'amakayi, iruhande rwabo hari abakobwa babiri b'abanyamahanga bafite mudasobwa imbere yabo, bicaye ku ntebe z'umukara baterutse no ku meza z'umukara.

Ubutaka bufite ibicanga bisa ikigina hariho umunara muremure usa umutuku ukikijwe n'ibiti byinshi bifite amababi y'icyatsi, hasi hari umwana wambaye umupira w'ubururu ndetse n'akantu k'umweru, imbere ye hari ibikoresho bikoreshwa mu gutunganya amashanyarazi.

Abantu batandukanye bahangaze n'abandi bicaye, mu bahagaze harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru, ufite terefone irimo urutsinga rucometse ku rukuta, n'undi mugabo ucometse terefone ku rukuta uri kuyivugiraho.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, ufashe telefoni icanye, kandi iruhande rwe harimo uburyo ki wakora wiyandikisha mu gukora ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga, ku irembo.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru, ufite amadarubindi hejuru ku mutwe, afite terefone isa umweru ari kwireba, kandi imbere ye hari mudasobwa icanye, iruhande rwe hari amagambo avuga ngo iyandikishe ukuntu wakora umusoro w'inyongera gicuruzwa.

Imbuga irimo ibyatsi bisa icyatsi, hariho amabati yegeranye n'inzu ifite amatafari asa ikigina, kandi hariho n'icyuma cyo ku munara gisa umweru.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.

Ibiti byinshi biri ku butaka bifite amababi asa icyatsi ndetse n'amapiloni ariho amatara n'urutsinga rurerure rusakaza amashanyarazi mu baturage ndetse n'ibindi byuma bikwirakwiza amashanyarazi bise umukara.

Umutaka munini uriho amabuye y'amasarabwayi, impande yaho hariho umugabo wambaye ingofero y'umweru y'ubwirinzi, yambaye n'ijire y'umuhondo ndetse n'ibara ry'inguni, impande hari ibyuma byinshi bitegura amashanyarazi mbere y'uko atangwa mu baturage.

Inzu yubakishijwe n'amatafari asa ikigina, yegereye umunara usa umweru ndetse n'umutuku, kandi kuri uwo munara hakikijwe n'ibindi byuma bifasha gusakaza imibonere yo kugira ngo abantu, babone uko bavugana.

Imbuga irimo ibyatsi, ndetse irimo ibiti byinshi bifite amashami menshi afite amababi y'icyatsi, hagazemo amapoto abiri y'umweru afiteho ikindi kintu gitambitse giteruye akuma, gafasha gusakaza amashanyarazi mu baturage.

Ipironi rifite insinga zisakaza amashanyarazi mu bantu, rihagaze mu butaka, hirya yaho hari ibyatsi bisi icyatsi cyerurutse, ndetse hirya yaho hari inzu ikiri kubakwa itarasozwa hejuru yaho hariho n'ishyamba ry'ibiti byinshi.

Ikirere gisa umweru gifite ibicu byijimye, hasi yaho hari amapiloni afite amatara yo ku muhanda, ndetse n'insinga zikoreshwa mu gusakaza amashanyarazi mu baturage, hari n'ibyapa bitandukanye byamamaza ibigo by'ifatabuguzi rya televiziyo, ndetse n'itumanaho.

Umuhanda uriho abantu batandukanye, hariho imodoka nini isa umweru hariho n'icyapa n'umukozi wa emutiyene utwikiriwe n'umutaka w'umuhondo.

Imodoka nini izwiho gutwara abagenzi, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru hasi, harimo abantu bamwe muri bo baricaye, abandi barahagaze, iruhande rwaho hari akazu abantu bicaramo bategereje yuko imodoka ibageraho, gasa ubururu.

Abagabo babiri bahagaze umwe wambaye ingofero y'umweru irinda abantu mu gihe bakoze impanuka, bose bambaye amajiri y'icyatsi, inyuma handitse imibare ndetse n'izina ndetse n'izina rya kompanyi ishinzwe gutunganya amashanyarazi mu Rwanda rege.

Inzu ifite amabati y'ikigina yashaje, hejuru hari ipironi rihagaze rifite ibitsinga bitwara amashanyarazi, ifashe ku giti gifashe mu nzu kandi inzu ikikijwe n'ibyatsi by'icyatsi ndetse n'ibindi byumye.

Ikirere kirimo ibicu by'umweru ndetse n'ibicu by'ubururu hariho umunara muremure cyane, uriho imigozi itandukanye n'ubutaka bufite ibihingwa bifite amababi y'icyatsi.

Ipoto rifite insinga nyinshi zigenda mu byerekezo bitandukanye insinga zohereza amashanyarazi mu bantu, hirya yaho hariho umugabo uhagaze wambaye ingofero itukura ndetse n'umupira utukura n'ipantaro y'umukara.

Ubusitani bugari burimo ibyatsi byakubiswe n'izuba, harimo ibiti bifite amashami menshi n'amababi y'icyatsi ndetse harimo umunara w'itumanaho uri kunyurwamo n'insinga nyinshi zitandukanye zikoreshwa mu gusakaza amashanyarazi mu baturage.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu uri gutambuka kuri kaburimbo, undi mugabo ari hirya yambaye na we imyenda y'ubururu n'ijire y'icyatsi, yegereye ipironi rifite insinga zitandukanye nini, ziri gutwara amashanyarazi mu baturage ndetse n'itara ryo ku muhanda.

Ubusitani bunini burimo ibyatsi bitandukanye n'ibiti by'imikindo impande yaho hari, ipironi ifite imigozi isakaza amashanyarazi, mu baturage, impande yaho hariho inzu nini ijya gusa umweru ifite amadirishya atandukanye igeretse kabiri.

Ubutaka bw'umurima burimo ibihingwa bitandukanye muri byo harimo ibisa icyatsi kerurutse ubundi burasa icyatsi ubundi buri mu mifuka y'umweru hariho n'akandi kabati gafite umuryango w'umweru.

Amapironi abiri afite insinga nyinshi zitandukanye, ziri kohereza umuriro mu nzu zitandukanye, harimo n'irindi pironi rifite itara, ricana ku muhanda mu gihe bwije. Rikikijwe n'amazu menshi hariho inzu y'umuhondo n'umutuku yanditseho Simba Kimironko.

Ubutaka buriho inzu y'umuhondo, hahagaze abagore babiri bambaye ingofero z'ubwubatsi zisa umuhondo n'amajiri abiri y'icyatsi, hariho n'ibyuma bitunganya amashanyarazi.

Urupangu rufite amatafari ahiye, rusa umukara ndetse amatafari asa ikigina, impande yayo hari indabo z'icyatsi, hariyo n'ibiti bitandukanye bisa icyatsi, urupangu na rwo rusa icyatsi, hariho n'akapa karanga nimero y'inzu.

Inzu ifite amabara y'ubururu y'amatafari ahiye asi ikigina ndetse n'umweru afitebona amagambo yandikijwe mu ibara ry'umweru avuga ngo Nyarugenge Disitirigite hosipito akikijwe n'utubabi duke tw'icyatsi.

Inzu ifite parafo y'umweru, amatara ari kwaka umweru, iruhande rwaho hateye irange ry'ubururu ndetse n'umweru, hasi hateye irange ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu hirya yaho hari udutebe tw'utuma abantu bicaraho mu gihe bategereje kwakirwa.

Umuhanda wa kaburimbo uhagatsweho n'imodoka itukura wegeranye n'inzu ifite igipangu kiriho amagambo yanditse atukura avuga ngo ibitaro bya Muhima.

Inzu ifite ibara ry'ikigina hariho icyuma kizimya umuriro mugihe wafashe inzu hariho n'umuryango irimo akabati kanini gafite ibicuruzwa bitandukanye birimo amasabune n'ibindi .

Inzu ifite amatafari ahiye asa ikigina, hariho imiryango isa umweru ifite irido ry'icyatsi iruhande rwaho harimo intebe abantu bicaraho mu gihe bategereje serivisi zitandukanye.

Inzu ifite isima ndetse inkingi zayo zikozwe mu mabuye hariho udutebe tw'ibyuma abantu bicaraho bategereje ndetse n'indi, y'imbaho inzu iteye irangi ry'umuhondo ifite icyuma kizimya umuriro mu gihe cyafashwe n'inkongi.

Inzu ifite amatafari ahiye asa ikigina yegerewe n'ibiti birebire by'icyatsi, ifite n'imbuga ku ruhande irimo amapave ndetse n'utwatsi dusa icyatsi.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Inzu nini ifite amakaro y'umweru, iruhande rwabo hateye ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hejuru hari igisenge gifite ibara ry'umweru n'amatara ari kwaka impande yaho hari intebe, abantu bicara bategereje, hicayemo abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore.

Abantu bari gutanga ibiryo harimo abagore batanu n'abagabo babiri harimo abantu batatu bambaye imyenda yera bari guhereza ibiryo abandi basigaye harimo abagore babiri n'umugabo umwe.

Amazu menshi manini kandi ageretse afite amabati y'umutuku, ariho igikoresho gifata imirasire y'izuba, kikayibyaza amazi, hanitseho imyenda ku migozi ihagaze kutwuma dutukura.

Kaburimbo y'ibinyabiziga harimo imodoka y'umweru n'umukara impanda yayo hari ipikipiki y'umutuku n'umukara, itwawe n'umugabo wambaye ijiri y'umutuku wambaye ingofero y'umutuku, impande yabo hari akazu k'umuhondo kamamaza kompanyi ya emutiyene.

Abantu batandukanye bahagaze, harimo: abagabo n'abagore. Harimo abambaye ibikanzu by'umutuku ndetse n'amashati y'umweru, kandi hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, ari we umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame.

Inzu nini igeretse, ifite amabati y'ubururu ifite icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara, hasi hari abantu benshi bari kujyayo bambaye imyenda y'abagororwa, n'iruhande rwabo harimo ugucunga abagororwa.

Abagabo babiri bicaye, harimo uwambaye imyenda y'abagororwa n'umupira w'umweru, undi umuri iruhande yambaye amadarubindi, afite telefone mu ntoki, yambaye umwenda w'umukara ndetse n'umweru bigaragaza ko ari we umushinzwe kumuburanira mu kigo.

icyapa gitoya cy'umuhondo gikoze mu ishusho y'urukiramende kikaba kiriho uburyo bwifashishwa mukwishyura ibiribwa cyangwa se ibicuruzwa hakoreshejwe ikoranabuhanga rikoresha telefone

Umugabo wogoshe umusatsi, ndetse n'ubwanwa bwo hasi, wambaye ishati y'umweru, yambaye n'ikanzu y'umutuku ifite amapeti ariko atariho, inyuma ye hari igikuta cy'umweru. Uwo mugabo ari kureba imbere ye, asa n'urakaye cyane.

Ndabona umugore usa nkaho arikwerekana agatabo ke gasa nkaho ari akubwishingizi bugendeye kubuzima, kandi uwo mugore ari kukereka undi wicaye wambaye akanu ku umutuku.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Umugabo wirabura udafite umusatsi, wambaye umwenda w'imfungwa uzwi kuzina ry'uruza inyuma ye hari ikinyabiziga k'imodoka ndetse n'ibyatsi.

Umugore wambaye amadarobindi wisize ibintu bitukura ku munwa yambaye amaherena y'izahabu afite imisatsi miremire mu ngofero ye harimo akarongo k'umuhondo yambaye ikote ry'umutuku ndetse n'ikaruvati y'umweru igaragaza ko ari umucamanza.

Abantu benshi batandukanye barimo abagore, n'abagabo bicaye ahantu hamwe harimo ufite umutaka ufite amabara menshi atandukanye harimo ubururu, icyatsi, umukara ndetse n'umutuku bakikijwe n'ibiti binini kandi birebire bifite amashami n'amababi yicyatsi.

Umugabo wambaye imyenda isa nk'iya gisirikare wirabura wambaye amadarubindi, hirya ye hari akabati gasa ikigina, umuryango w'umweru kandi n'inzu irasa ibara ry'icyatsi.

Urupapuro runini rwanditseho amagambo menshi asa mu ibara ry'umukara ndetse harimo amagambo avuga ngo, igazeti ya nyayo tariki ya makumyabiri ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi biri na cumi n'umumuani, harimo ingingo zigiye zitandukanye.

Umugabo udafite umusatsi uri kureba imbere ufite ubwanwa buke, ufite amatwi manini wambaye ishati cyangwa se itaburiya y'umutuku n'umukara ifite akantu k'umweru imbere yako kagaragaza ko ari umucamanza.

Umugabo wirabura, wambaye amadarubindi, wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru ndetse n'isaha, afite ibiganza bibiri asa nk'uri gusaba imbabazi, kandi inyuma ye hari undi mugabo wambaye ishati y'ubururu, umuhagaze inyuma.

Abantu bicaye ari benshi cyane, harimo abagore n'abagabo, inyuma yabo cyane hariyo umuabo wambaye imyenda y'umukara, ahandi hari umugore wambaye imyenda y'umutuku, n'amadarubindi, n'amaherena, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikositimu ndetse n'ishati y'umweru.

Abantu bahagaze harimo umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'ingofero y'ubururu ufite amapingu uri gufunga undi wambaye amadarobindi ishati y'umweru ikote rifite ibara ry'inguni rifite ikora risa umukara impande yaho hari n'indege ifunguye umuryango.

Kaburimbo ishushanyijemo imirongo y'umweru ndetse n'umukara hagati ya hari utwatsi duteye ndetse n'igiti kirekire impande yayo hari ipikipiki y'umutuku yicayeho umugabo iruhande rwabo hari n'undi mugabo wegeranye n'umupolisi mu imyenda y'umukara ndetse n'icyatsi cyerurutse.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara ndetse n'icyatsi cyererutse kirimo akarongo k'umweru, bafite umupira uri gusohora amazi menshi cyane iruhande rwabo hari umuryango w'ikigina ndetse bambaye n'ingofero zirinda imitwe yabo mu gihe habaye impanuka.

Abantu benshi bahagaze harimo abagore n'abagabo batandukanye bambaye imyenda isa umukara n'umweru n'akandi karantego kari ku rutugu k'umutuku ndetse n'umwe muri bo wambaye indi n'imyenda y'ubururu ndetse n'icyatsi cyerurutse.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga bibiri ikinyabiziga kimwe kirasa umweru, ikindi kirasa umukara, hariho umupolisi uhagaze uri kwerekana aho imodoka zinyura, n'aho zitanyura, umupolisi yambaye imyenda y'ubururu bwijimye ndetse n'ijiri y'umukara n'icyatsi yanditseho, ijambo polisi.

Abagabo bicaye batandukanye bicaye mu ntebe z'umukara, kandi impande yayo hari undi uhagaze, ufite agatutu k'umukara hariho ikirangantego cy'igihugu n'ibirangururamajwi binini bimuteretsi imbere, wambaye ikositimu y'umukara, akaba ari nyakubawa perezida wa repubulika y'u Rwanda.

Abantu benshi batandukanye, batonze umurongo, harimo: abagabo, abagore . Harimo umugabo wambaye ikanzu yumweru, n'ingofero y'umweru umudamu yambaye ijipo y'ubururu ndetse'tangiye umutwe abandi bambaye imipira y'umweru n'inkweto zitandukanye bari ku butaka iruhande rwabo hari ihema ry'umweru n'ubururu.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ndetse yambaye n'amaherena n'umukufi, afite umusatsi mwinshi w'umukara yicaye ku ntebe y'imbaho isi ikigina, hasi hari ibyatsi byumye, iruhande rwe hari amabuye ndetse n'ibiti byinshi bitandukanye.

Umugabo washyize akaboko k'iburyo hejuru. Wambaye ikostimu y'ubururu bwerurutse n'ikaruvati isa nk'ikostimu yambaye ishati y'umweru. Ari iruhande rw'idarapo ry'igihugu, rifite amabara y'ubururu, ndetse n'umuhondo. N'imbere ye hari akarangururamajwi.

Abantu benshi bicaye hamwe harimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, abagabo bambaye amakositimu n'abagore bambaye amakositimu, imbere yabo hari udukoresho turangurura amajwi ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu batandukanye bahagaze, harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda y'umukara n'umweru, ndetse harimo n'abambaye n'amadarubindi n'amashati y'ubururu, bahagaze bateruye indobo zitandukanye zisa umweru, zisa nk'aho bamaze gusukamo ibintu.

Ishusho igaragaza televiziyo y'igihugu arabi eyi yatumiye umugabo wambaye ikositimu y'ubururu, yambaye ishati y'umweru n'ikaruvati y'umutuku wirabura, imbere hateretse mudasobwa ndetse n'akarangururamajwi akaba yitwa Mpayimana Philippe yari umukandida umwe mu biyamamarije kuba umukuru w'igihugu.

Umugore wicaye wambaye inkweto ndende z'umukara yambaye amadarubindi yambaye ikanzu y'umweru irimo imirongo y'umukara yicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho ariko ifite imisego yera.

Abantu bahagaze ari benshi bambaye imipira y'umweru naamashati y'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, bafite utudarapo turiho amabara, umweru icyatsi n'ubururu hirya yabo hari ihema rifite amabara y'umweru n'icyatsi.

Abantu benshi bambaye imyenda ndetse n'ingofero z'imyeru bafite amadarapo ariho amabara y'umutuku, umweru n'ubururu ndetse n'umukara yanditseho ishyaka rya FPR, imbere hari abagabo bambaye imyenda y'umukara ari abapolisi b'igihugu.

Abagabo batatu bahagaze umwe yambaye ishati itukura undi yambaye ishati y'umweru, ndetse n'ikoti ry'ikositimu, undi nawe yambaye umupira w'umutuku ndetse uri iburyo bwabo bose ni umukuru w'igihugu.

Abantu batandukanye, bamwe muri bo barahagaze, abandi baricaye. Abagabo bambaye imyenda ya kositimu, abagore bambaye imyenda y’imikenyero. Ndetse muri batatu bicaye imbere, uri hagati ni umuyobozi w’umukuru w’igihugu cyacu.

Imbuga ngari harimo abantu benshi bambaye imipira y'imyeru, iriho idarapo ry'ishyaka ry'igihugu rya efuperi bashinzemo n'amahema atandukanye hicayemo abantu b'ingeri zose.

Umugabo uhagaze wirabura wambaye ishati y'umweru uterurutse ufite irangururamajwi wambaye isaha y'umukara, yambaye amadarubindi ndetse n'ingofero y'umukara.

Abagore bane bari hagati y'idarapo ry'igihugu ririmo amabara y'ubururu umuhondo n'icyatsi ndetse n'ikirangango k'igihugu gifite amabara atandukanye y'umweru umuhondo icyatsi, ndetse n'ubururu hejuru yaho hariho n'ifoto y'umukuru wigihugu.

Abantu benshi bahagaze, bafite utudarapo turiho amabara yumutuku, umweru n'ubururu; harimo abagabo bambaye impuzankano z'umukara, bari kugenda barinze umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara; ari we mukuru w'igihugu.

Umugore wambaye ikote ry'umukara ririmo uturongo tw'umweru, ufite ikaramu n'urupapuro ndetse urwo rupapuro ari kurushyira mu gatebo bashyiramo impapuro z'itora, iruhande rwe hari igitambaro gifite ibara risa ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Ni ifoto y'umugore ufite imisatsi iryamye, wambaye amaherena y'umweru uri guseka, ufite amenyo y'umweru, akaba yambaye ishati ifite ikora ry'umweru kandi uyu mugore akaba ari umukuru w'ikigo gishinzwe ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ku isi madame Louise Mushikiwabo.

Abantu benshi bicaye harimo umugabo wambaye umupira utukura n'ingofero itukura n'umugore wambaye imikenyero bari mu ihema ry'umweru rifite akapa gafite amabara y'umutuku, umweru n'ubururu kanditseho FPR bari kubwirwa ijambo n'umugabo wambaye ingofero y'umukara ufite irangururamajwi ariwe mukuru wacu w'igihugu perezida nyakubahwa Paul Kagame.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki abiri, imwe yicaweho n'umugabo wambaye ingofero y'umutuku irinda umuntu mu gihe akoze impanuka, ndetse yambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu, mu gihe indi pikipiki isa ubururu ifite n'amapine y'umukara.

Kaburimbo iriho rigori iruhande rwayo hari kugendayo abantu batandukanye, hariho umugore wambaye igitenge cy'umutuku n'umuhondo umupira w'umweru, afite umufuka w'umweru iburyo bwe hari ikinyabiziga cy'imodoka itwaye imizigo y'umweru iri ku gipangu cy'umukara.

Umuhanda urimo uturongo dutandukanye dusa umweru n'umukara. Harimo ibinyabiziga ipikipiki isa umweru itwawe n'umugabo wambaye ingofero yo kwirinda y'umukara. Iruhande rwe rw'ibumoso hari imodoka y'umukara inyuma ye hari imodoka y'umweru.

Kaburimbo irimo imirongo y'umweru, harimo ikinyabiziga gihagazweho n'umugabo uri hejuru uri kumanura ibicuruzwa byari birimo, impanda yayo hariyo umugabo uri kugenda yihuta wambaye ishati y'umweru, hejuru yaho hari inzu ifite amabati y'icyatsi.

Imodoka nini isa umweru n’umukara itwara abagenzi muri rusange, hirya yaho hari aho abantu bicara bategereje igihe bisi itaraza. Handitseho umubare w’ijana na makumyabiri na kane.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru n'umukara yashaje, harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibinyabiziga bitwara imizigo bizwi ku izina ry'amakamyo, igisa ubururu ndetse inyuma yayo harimo ikindi kinyabiziga gifite ibara ry'umweru, gitwara abagenzi bisanzwe.

Kaburimbo ifite rigori impande yayo iri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka nini itwara abagenzi izwi ku izina rya coaster, isa umweru, ifite amapine y'umukara, impande yayo hari n'indi modoka ifite ibara ry'irungu, iruhande rwabyo hari ibiti bifite amashami menshi ndetse n'ibibabi bisa icyatsi.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Kaburimbo irimo imirongo, umweru ndetse n'umuhondo, harimo ibitaka byanduje kaburimbo, kandi muri iyo kaburimbo harimo imodoka nini isa umweru, ndetse n'icyatsi, yikoreye imifuka myinshi y'umweru, ikikijwe n'ishitingi y'ubururu.

Rigori yegereye kaburimbo irimo ikinyabiziga k'pikipiki gitwawe n'umuntu wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umukara, ipikipiki ifite shitingi isa umweru ikikijwe n'ibiti bifite amababi y'icyatsi.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga bibiri hariho ipikipiki isa umutuku n'umuhondo hicayeho abagabo babiri bambaye ingofero z'umuhondo zibarinda imitwe mugihe bakoze impanuka, impande yaho hariyo ikinyabiziga kizwi ku izina ry'ikamyo gitwara imizigo ndetse n'abantu.

Kaburimbo ishushanyijeho umurongo w'umweru hariho n'inzu nyinshi zitandukanye, harimo inzu isa icyatsi yicayeho abantu babiri n'ikinyabiziga gisa umutuku n'umuhondo, hari n'indi nzu isa umuhondo ifite icyapa hejuru gisa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amapikipiki atatu, abiri muri yo asa ubururu indi imwe isa umutuku, n'umuhondo yicayeho n'umugabo wambaye ijire y'umuhondo n'ubururu byegeranye n'imodoka nini isa umweru.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara, harimo ibinyabiziga bibiri, amapikipiki abiri, imwe iriho abantu babiri, indi iriho umugabo umwe wambaye imyenda y'umuhondo, ndetse yambaye n'ikintu kimurinda impanuka ku mutwe.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Poul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga byinshi, harimo amapikipiki atwaye abantu batandukanye bose bambaye ingofero zirinda mu gihe bakoze impanuka, harimo n'imodoka itwara imizigo nini y'ikamyo ndetse n'umunyegare utwaye igare apakiye ibintu n'inyuma ye hari imodoka itwara abagenzi muri rusange.

Ibinyabiziga biri hamwe harimo ipikipiki ndetse n'imodoka zitandukanye, ipikipiki irasa ubururu n'umukara yicayeho n'umugabo wambaye inkweto z'umweru ndetse akaba yambaye n'itaburiya y'umuhondo.

Imodoka y'icyatsi, ifite amapine y'umukara, itara ry'umutuku, iriho akapa k'umweru kanditseho: gutsindisha ni yo ntego yacu, imbere yayo hari n'indi modoka y'umweru, iruhande rw'imodoka y'umweru hari abantu batandukanye bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite rigori impande yawo harimo ibiti byinshi bifite amashami ndetse n'amababi menshi kandi muri uwo muhanda harimo ikinyabiziga cy'imodoka nini kizwi ku izina ry'ikamyo cy'umutuku gifite amapine yumukara kandi kikorera imizigo.

Umuhanda wa kaburimbo impande yayo hariyo umuferege umuhanda urimo imodoka nini itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru n'umukara iruhande rwayo hari umugabo uri kugenda ndetse ryaho hari ibiti birebire bifite amashami menshi ndetse n'amababi y'icyatsi.

Imodoka itwara abagenzi muri rusange ifite amabara y'ubururu umweru ndetse n'umukara, ikikijwe n'umugabo wambaye umupira w'umukara ihagaze kuri kaburimbo kandi imbere yaho ifite utwuma abagenzi bakoresha bafashe mu gihe bahagaze dusa umuhondo.

Imodoka nini ebyiri zitwara abagenzi zisa umweru, icyatsi, umukara. Iruhande rwayo hahagaze abagabo irundi ruhande rwayo hahagaze akazu gatoya gafite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, hirya yaho kure hari ishyamba ririmo ibiti byinshi.

Kaburimbo irimo imirongo y'umweru imwe igaragaza aho abanyamaguru banyura mu mugihe bari kwambuka ,harimo n'ibiti bitandukanye bifite amababi y'icyatsi harimo n'ikinyabiziga cy'pikipiki cy'icaho n'umuntu wambaye ijire y'umuhondo n'ubururu.

Kaburimbo ifitemo imikuku harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo: igare, amapikipiki n'imodoka nini isa umweru n'ubururu itwaye ibicuruzwa by'imizigo, umunyonzi utwaye amagi abatwara amapikipiki batwaye abagenzi.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga bibiri imodoka n'ipikipiki, aho ipikipiki abantu babiri bambaye amakasike y'umuhondo harimo n'akamenyetso kagaragaza aho abanyamaguru banyura mu gihe bari kwambuka.

Kaburimbo iriho ikinyabiziga k'imodoka rusange itwara abagenzi, handitseho amagambo avuga ngo kunguzanyo nto kurusha izindi nawe wagira iyawe itangwa na banke icyura amajyambere y'igihugu, kandi harimo n'uturango tugaragaraza aho abanyamaguru bambukira.

Kaburimbo irimo uturongo tw'umweru, harimo ibinyabiziga bibiri, imodoka imwe nini itwara abagenzi muri rusange isa umweru, iruhande rwaho hari amazu ageretse, imwe isa ikigina, hariho n'ibindi binyabiziga biparitse hafi yayo bisa umukara ndetse n'umutuku.

Inzu nini ifite ubwinjiriro bufite amakaro asa umweru n'umukara ndetse impande yayo harimo imbaho zisa ikigina, inakikijwe n'ibiti byinshi bisa icyatsi no hirya yaho hariyo amazu menshi ageretse.

Inzu nini cyane isa ikigina yegeranye n'indi nzu nayo y'umweru ndetse ikikijwe n'ibiti byinshi by'icyatsi hariho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara n'ubururu ngo ahantu ho gukodeshwa kandi aho hantu ni hafi y'ahantu hicaye abandi bantu benshi.

Umuhanda muremure urimo amapave harimo abantu benshi batandukanye bari kugenda, harimo ibiti byinshi bisa icyatsi, hari amazu menshi ageretse afite amabara y'umweru, ubururu ndetse hejuru hari n'ikirere kiza gisa umweru.

Umuhanda muremure ufite imirongo y'umweruru ufite n'ibyatsi bisa icyatsi ukikijwe n'amapironi y'amatara yo ku muhanda, ugakikizwa n'igishanga ndetse n'ibyatsi ndetse n'imbuga ngari.

Imbuga nini ifite ibitaka bisa ikigina hashushanyijeho imirongo y'umweru, hirya yaho hari ibiti byinshi bitandukanye bifite amashami menshi ndetse n'amababi menshi, impande yaho hariho ikinyabiziga kiri kugenda gisa umweru n'umukara.

Kampani iherereye mu mujyi wa Kigali ikoresha ikoranabuhanga yubatse neza iteye amarangi y'umweru, ifite ibirahuri bisa neza mu mbuga yazo hari pasiparume n'indabyo zindi nziza cyane hepfo hari ibiti birebire.

Umuhanda wegeranye n'ikibuga abana bari gukiniramo umupira bambaye imyenda isa umutuku n'ubururu. Inzira iri impande yabo hariho utwatsi ndetse n'ibiti bitandukanye. Inzu byegeranye ifite igisenge cy'umutuku, amadirishya ndetse n'imiryango bisa ikigina n'icyatsi.

Uruparo rw'umweru rurimo utudomo twa mande enye tw'ibara ry'inguni, harimo icyapa cya mande enye gihetamye, kirimo ibara ry'umuhondo n'akumukara ndetse harimo n'akarongo kagaragaza guhindura ikerekezo mu muhanda.

Umuhanda ufitemo uturongo tw'umweru tugaragaza aho abanyamaguru bambukira ni imodoka ziri kugenda kaburimbo, harimo ibinyabiziga bitandukanye imodoka, harimo ibiti byinshi bifite amaba y'icyatsi ndetse iruhande rwabyo hariho ipironi risa umweru ifashe icyapa gifite amabara y'umutuku, umweru n'umukara.

Utu ni utuzu tw'abajenti ba emutiyeni ndetse dukikijwe n'ibyapa bya eyeteri na bakiriya babagannye bari kubaha serivise zitandukanye.

Urupapuro rw'umweru rufitemo icyinu cya mande eshatu gisa umutuku mo imbere yayo harimo indi mpande eshatu isa umweru harimo n'akarongo gatambite kagaraza kujya iburyo igihe umuntu arikugenda.

Ishusho ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu irimo imodoka nini y'umweru ifite amapine abiri ndetse harimo n'inyuguti ya p nini kandi iri mu cyapa iri hejuru y'imodoka iriho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uturongo dutandukanye dusa umuhondo, n'utundi dusa umweru tugaragaza aho abaturage banyura mu gihe bari kwambuka, ahandi hari icyapa cyanditseho akarere ka Rusizi, ahandi hari icyapa gisi ikigina cyantseho ishyamba rya Nyungwe n'ishyamba rya Cyamudongo.

Igiti gifite ibibabi by'icyatsi kegeranye n'ipoto ry'umweru iririho icyapa gisa umutuku umweru ndetse n'umukara bikaba byegeranye n'amazu abiri maremare.

Urupapuro rusa umweru rurimo mpande eshatu, ifite ibara ry'umutuku harimo utundi tumenyetso, kamwe kareba ibumoso akandi kareba iburyo bigaragaza icyerekezo cy'aho umuntu ajya busa umukara.

Ipiloni rifite ibara ry'inguni ririho icyapa cya mpande eshatu gicuritse harimo n'akandi kapa ka mpande eshatu gacuritse. Iy'imbere ni umweru, iy'inyuma ni umutuku, impande yayo hariyo kaburimbo iriho ikinyabiziga cy'imodoka y'umukara, hirya yaho hariyo amapiloni afashe amatara yo ku muhanda.

Kaburimbo irimo y'ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki n'imodoka ziri kugenda, bikikijwe n'inzu igeretse y'umweru, hari icyapa k'icyatsi cyanditsesho amagambo y'umweru harimo irivuga ngo Kigali intanashono eyapoti.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Ibiti bifite amashami ariho amababi asa icyatsi, iruhande rwayo hari icyapa kiri ku ifoto ry'icyuma, hariho amabara asa umweru, umutuku ndetse n'umukara hagati hariho akamenyetso kagaragaza icyerekezo umuntu ajyamo.

Ishusho igaragaza icyapa cy'umuhondo kirimo mpande enye isa umukara ndetse handitsemo umubare mirongo itandatu, hasi handitse ka ma umurongo ha bisobanuye ko ari umuvuduko wa mirongo itandatu kirometero ku isaha.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Kaburimbo ifite ipoto, ifite ibyapa bibiri biriho amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, icyapa kimwe kiriho imodoka y'umukara ndetse na nimero karindwi; muri kaburimbo harimo n'imodoka nyinshi zitandukanye.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikimenyetso cy'ikiziga gisa umutuku, kirimo akarongo gatambitse, ndetse harimo n'ibipande bibiri by'uruziga bisa umweru.

Icyapa gisa umweru kirimo imodoka isa umukara hariho n'akarongo kazengurutse icyapa cyose gasa umukara, imodoka iri mu ruziga rw'umutuku kandi yanditseho amagambo yandikijwe n'umukara avuga ngo "no moto veyikozi".

Amazu menshi yegeranye amwe asa umweru andi arageretse, andi ari hasi yegeranye n'ibiti bihakikije bifite amababi y'icyatsi ndetse n'amapironi afite insinga zisakaza amashanyarazi.

Kaburimbo irimo abantu benshi batandukanye ikikijwe n'ibiti n'amapironi afite insinga zisakaza amashanyarazi, ndetse n'amapiloni afite amatara yo ku muhanda bini inyabiziga birimo harimo imodoka nini itwara abagenzi, imodoka zisanzwe ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda urimo imodoka y'umukara n'imodoka y'umweru harimo abantu batatu, uri ku igare harimo n'ikiraro cya rigori n'amapoto abiri.

Inzu ifite ibara ry'umweru n'ikigina imbere yayo harimo imeza ifite ibara ry'umweru n'ikigina, ikikijwe n'ibiti birebire bifite amashami ajya gukora hasi bifite amababi y'icyatsi.

Ni umuhanda ukikijwe n'amazu menshi n'abantu benshi n'ibinyabiziga byinshi ,hirya y'aho hari amapironi hari n'imbuga isa icyatsi n'ibyatsi byayo bisa icyatsi.

Ibiti birebire cyane bifite amashami ndetse n'amababi y'icyatsi, bikikijwe n'amazu menshi atandukanye, afite ibisenge bisa umukara, umutuku, ikigina ndetse n'umweru kandi aho hose hari n'ibyuma bifasha kurinda abajura.

Amazu menshi afite ibisenge bimeze kimwe, bimwe mu bisenge birasa ikigina ndetse n'umutuku n'umukara, bikikijwe n'ibiti bitandukanye ndetse n'insina byose bisa icyatsi kandi hafi aho hari ibyuma biba hejuru y'igipangu birinda abajura.

Inzu nini igeretse ifite amabara atandukanye, hariho ifite irya zahabu, hariho iry'umukara, hariho iry'umweru. Rifite amadirishya menshi asa umukara ndetse n’amatara asa umweru.

Urupangu rufite amabara y'umweru n'umukara, ndetse hejuru ya hari amatara, hasi hari ibyatsi by'indabyo bisa icyatsi cyerurutse, kandi bikikijwe n'amapironi afite insinga zikwirakwiza amashanyarazi n'ibiti birebire bifite amababi y'icyatsi.

Kaburimbo isa nabi yegerewe n'inzu zigeretse zose, harimo ifite igisenge gisa ikigina, ndetse ifite ibara ry'inshange n'umweru, ifite amadirishya afunze kandi impande yaho hari senyenge.

Amazu menshi atandukanye ari mu manegeka, afite ibisenge bitandukanye harimo ibisa umutuku umukara irungu ikigina, kandi aya mazu nubwo afite amarangi y'umuhondocyatsi ubururu hariho n'ibiti biyakikije ari byinshi.

Amazu menshi yegeranye harimo ageretse kandi ayo mazu harimo amazu afite ibara ry'umweru, ikigina, ndetse n'umukara, hejuru yayo mazu hari insinga zitandukanye zikwirakwiza amashanyarazi mu baturage kandi ayo mazu anacikijwe n'ibiti byinshi by'icyatsi.

Inzu nini iriho ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka isa umweruru ndetse iyo nzu ifite ibyapa by'umuhondo n'umweru, hariho icyapa kiranga inzu icuruza imiti, ndetse n'i ikindi kigaragaza inzu icuruza imbuto.

Inzu nini kandi ndende igetse gatatu ifite igisenge gisa ikigina, kegereye ipoto gitwara amashanyarazi binyujije mu nsinga, iruhande rwaho hari urupangu rusa umweru utari umweru neza hariho n'icyapa cyanditseho amazina avuga ngo unesiko.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga bibiri amapikipiki abiri harimo abagabo ba yicayeho bambaye amajire y'umuhondo n'icyatsi, hariho n'uturongo twera tugaragaza aho abanyamaguru banyura mu gihe bari kwambuka umuhanda.

Ishusho yerekana uburyo ushobora gutumiza ibintu ukoresheje telefone igezweho kumbuga nkoranyambaga zitandukanye utavuye aho uri harimo nk'imyenda ndetse n'imitako bitandukanye.

Kaburimbo ihagazeho abantu batandukanye iriho n'ibiziga bitandukanye harimo imodoka amagare ndetse n'amapikipiki, ikikijwe n'amapironi ariho insinga zisakaza amashanyarazi, ndetse n'amapiruni afite amatara yo ku muhanda.

kaburimbo ifitemo imirongo y'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari ibiti byinshi cyane, bisa icyatsi, hari n'ubusitani bufite ibyatsi by'icyatsi, kandi iruhande rwayo hari icyuma gisa umukara, ndetse n'umweru utijimye ukuntu, kizwiho gufata ibinyabiziga biri mu makosa, kizwi ku izina rya sofiya.

Umuhanda wa kaburimbo usize amabara y'umweru n'umukara, hirya yaho hari ibiti byinshi bifite amababi menshi asa icyatsi n'amashami menshi, hariho abantu bari kugenda kandi iruhande rwayo hari icyuma gifata ibinyabiziga bifite amakosa.

Kaburimbo ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara irimo ibinyabiziga bitandukanye harimo; ipikipiki itwaye abantu babiri ndetse n'imodoka nini izwi nk'ikamyo n'indi ntoya harimo n'ahantu abanyamaguru banyura mugihe bagiye kwambuka n'andi mapikipiki ategereje kugenda.

kaburimbo iri hejuru yindi kaburimbo ikikijwe n'ipironi rifite amatara yo kumuhanda hariho n'ibiti birebire bifite ibibabi by'icyatsi kandi muri kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye ibikamyo imodoka zisanzwe ndetse n'amapikipiki

Umuhanda urimo ibishushanyije n'amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, aho imirongo ishushanyije y'umweru igaragaza ahantu abanyamaguru bambukira, ndetse ukikijwe n'ibiti bitandukanye byinshi bisa icyatsi.

kaburimbo ndende izengurutse ifitemo utubara tw'umweru n'umukara ikikijwe n'imbuga nyinshi nini zifite ibyatsi ndetse n'amapironi afite amatara k'umuhanda hirya yaho harimo inzu igeretse kenshi ifite ibara ry'umweru

Umuhanda wa kaburimbo, urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo n'imihanda y'amasangano, akikijwe n'ibiti byinshi by'icyatsi, muri ibyo binyabiziga harimo imodoka y'umweru n'umukara, ndetse n'amapikipiki ari kugenda atwaye abagenzi.

Kaburimbo irimo ibinyabiziga ndetse irimo n'amasangano harimo ibinyabiziga bifite ibara ry'umutuku harimo amapironi yafite amatara yo ku muhanda hari icyapa kigaragaza icyemezo cyane ari kujya ndetse n'amapikipiki ahetse abantu.

Kaburimbo ifitemo imirongo y'umweruru ndetse n'umukara ,ikikijwe n'ibiti n'ibyatsi bifite amababi y'icyatsi harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka nini zizwi ku izina ry'ibikamyo ,amapikipiki atwaye abantu ndetse n'imodoka.

Umuhanda urimo umuntu uri kwambuka, ukikijwe n'ibiti bifite amababi y'icyatsi, urimo utumenyetso tugaragaza aho abanyamaguru banyura mu gihe bari kwambuka, dushushanyishijwe ibara ry'umweru.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru n'umukara, ufite ipironi ririho icyapa cyanditseho inyuguti ya pa isa umukara, hariho n'ibara ry'umweru, ndetse n'imirongo y'umutuku.

Umuhanda uri hejuru y'undi muhanda, umuhanda uri munsi hari ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse n'amapikipiki abiri, ipikipiki imwe iriho umugabo wambaye ikote ry'ubururu ryijimye ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari inkingi zifashe umuhanda uri hejuru.